Igishushanyo gisa nk'aho cyamamaza ukuntu umworozi ashobora kwita ku matungo ye, hariho na nimero ushobora kuba wahamagara bakagufasha kuko birafasha cyane.

Radianti ni ikigo gishinzwe ubwishingizi, aho ushobora kuba wajyayo ukabasha kuba washinganisha bimwe mu bikorwa byawe. Mugihe ugize ikibazo baguha ubwishingizi.

Icyapa cyanditseho ubwizigame, aho ushobora kuba wareba ku bintu bijyanye n'ubwishingizi, kandi gisa nk'aho kiri kubyamamaza ahantu mu muhanda, harimo n'imodoka.

Radiant ishobora kuba ari company itanga ubwishingizi ku bantu bose, hano ndabona ngo ubwishingizi bwo kwibwa mu gihe wibwe Radiant iragufasha mu kubona ibyo bintu cyangwa se ikagushinganisha.

Aha hari ibigo bishinzwe ubwishingizi, aho ushobora kuba wabagana bakagufasha, niba ukeneye amafaranga bakayaguha, niba ukeneye kubitsamo amafaranga ukabitsamo kandi udahenzwe

Icyapa gisa nk'aho cyamamaza umuntu ngo ushaka gucuruza ntankomyi gura ubwishingizi bw'ibinyabiziga byawe, bigufasha mubucuruzi bwawe aricyo prime life insurance.

Hari icyapa cyanditseho ibintu bibasha kuba byakamamaza uburyo wabasha kwizigamira ejo hawe wowe n'umuryango wawe bityo bikabasha kuba byatuma umenya.

Icyapa kinini kiriho ibintu bijyanye n'ubwishingizi aho waba wari kwamamaza uburyo wagenda cyangwa se ukabahamagara kuri nimero ziri hasi kuri icyo cyapa ukagenda ukishinganisha.

Ndabona umugabo arigusuhuza umugore bisa nk'aho bari kwamamaza mukiriya wacu uri uwagaciro kuri muwa incuwarensi, dufashe uyu mwanya ngo tubashimire ikizere mukomeje kutugirira.

Ubutumwa buza muri telefone zigendanwa kubijyanye n'uburyo wakohereza amafaranga ava kuri wowe ajya k'uwundi ukoresheje uburyo bwa telefone.

Harimo mayi akawunti aho usangamo hari ibijyanye no gusevinga mu buryo bwa enterinete, ushobora kuba wakwiguriza, ukaka inguzanyo bitagorenye, ukishyurira kuri fone ukareba amafaranga asigaye kuri fone.

Ndikubona Inzu y'ubucuruzi aho ishobora kuba wahasangamo ibintu wabasha kwifashisha kugirango use neza wakambara kugirango use neza ku mubiri bityo bikadufasha kugaragara neza muri rubanda cyamwinshi.

Ndabona butike, butike ni inzu ishobora kuyakorerwamo ubucuruzi by'ibintu bigiye bitandukanye, aho ndi kubona mugore usa nkaho yishimye kubera kubona serivisi nziza afite.

Ibikapu biri ahantu biteretse ahantu ku kabati ushobora kuba wabikamo imyenda, amakayi, wakwitwaza ugiye kwiga, imyenda wakwitwaza ugiye n'ahantu mu rugendo ahantu ha kure, ibindi byose byadufasha.

Amazu y'ubucuruzi ashobora kuba yacurizwamo imyenda irimo nk'amakote y'imipira miremire n'amashati n'ibindi bintu birimo amashakoshi imikufi ndetse n'amarinete.

Ndikubona iduka ricuruza imyenda, inkweto nibindi bintu by'abana ushobora kuba wagenda ukabigura ukabasha kuba wasa neza muri rubanda nyamwinshi.

Ahantu bacururiza ibikoresho bikorerwa mu Rwanda. Mu biri muri iri duka harimo imyenda, uduseke, imitako ishushanyijeho imigongo, ndetse n'ibindi byinshi bikorerwa imbere mu gihugu.

Ndabona amavuta, n'ibindi bikoresho wakoresha ku mubiri wawe aribyo abantu benshi bakunze gucururiza mu mazu y'ubucuruzi, iyo nzu y'ubucuruzi icuruza ibyo bintu by'ubucuruzi abantu benshi bakaba bayizi ku izina rya botike.

Amazu ashobora kuba yakwifashishwa mu gucuruza ibintu by'imikufi bashobora kwambara mu ijosi cyangwa kenshi dukunze kwita amashakoshi, amashanete kandi n'amaherena barayacuruza mu ma butike.

Ndabonamo umugabo uhagaze ahagararanye n'undi basa bafashe akantu kandi aho hantu hari imodokari eshatu zirimo ubwoko bumwe akenshi abantu bakunze kwita toyota.

Ndabona abagabo bane umwe asa nkaho afashe igifunguzo biragaragara nkaho aguze imodoka iri ku ruhande rwe ifunguye inzugi ni imodoka nziza cyane.

Ndabonamo abantu basa nkaho bari kwamamaza ibijyanye n'ibinyabiziga aho usangamo harimo imodoka nibindi bintu Kandi ushobora kuba wajyayo ukabigura harimo imodoka bakakugabanyiriza ibiciro.

Imodoka iri ahantu isize irange ry'umweru ishobora kuba igurishwa kandi iyo modoka ifite ibirahure iri ahantu heza cyane.

Abagabo babiri basa nk'aho bishimye bitewe n'ibikorwa bakoze byabo hari imodoka ikigaragara bisa nk'aho umwe ashobora kuba aguze imodoka.

Kubona abagabo babiri basa nkaho bari kuganira ku bintu by'imodoka, aho bafashe kukantu kanditseho akagera motozi, inyuma hakaba hari imodoka itwara imizigo bita ikamyo.

Abo nabantu babiri basa nkaho bishimye bitewe n'ibintu barimo umwe afashe akantu kanditseho akagera motozi undi yafashe ako kantu nyuma ya hari imodoka umwe ashobora kuba yaguze iyo modoka.

Aho ushobora kuba wajya ukaba wagura imodoka cyangwa ibindi binyabiziga ubyifashijwemo n'inganda zibikora cyangwa se ubucuruzi bwabyo bakabasha kuba bagukuriraho amafaranga make bitewe nuko wabaganye.

Umuntu uri imbere wambaye karuvati usa nkaho ari guseka, imashini imuri imbere undi akaba ari kumureba bisa nkaho bari kuganira ku bintu by'amafaranga.

Ndi kubona amazu akorerwamo ibintu bijyanye n'amafaranga aho ushobora kuba wajya ugiye kubikuza cyangwa se ugiye kwishyuriraho amafaranga y'umunyeshuri cyangwa se ugiye kubikuza cyangwa kubitsaho.

Amafaranga agiye atandukanye ari umuntu ndi kubona umugabo usa nkaho ayafite. Amafaranga tukaba twayakoresha mu bintu byinshi, bitandukanye, udafite amafaranga ntabwo wabaho kuri iyi si.

Ndi kubona umuntu usa nkaho ari kubara amafaranga intoki ze zigaragara hirya hari imashini, icyo ayo mafaranga twaba twayakoresha mu gihe turi mu kazi.

Ahantu hari icyuma cy'amata ahantu abantu benshi bakunda kwita muri daharire hacururizwa amata yaba ay'inshyushyu cyangwa se ikivuguto abantu benshi bakunze kunywa amata kandi afasha abana mu gukura neza.

Ndi kubona ahantu hasa nkaho hari amata mu bintu bimeze nk'ibicupa, ayo mata ashobora kuba yagurishwa ku baturage, bityo abaturage bakaba bayateka bakaza kuyanywa, cyangwa se bakayaha abana.

Ndikubona amandazi menshi ateretse ku iparato, asa nkaho aribwo bamaze kuyateka cyangwa se bari kwereka abantu, bityo amandazi aba akoze mu ifarini n'amasukari n'amagi, amandazi ushobora kuba wayagurisha cyangwa se ukayateka ukayarya.

Ibicuruzwa by'uruganda rwa Inyange. Muri ibyo harimo amata turi kubona mu cyuma kinini cyane cy'umweru. Inyuma yacyo hari ibindi bicuruzwa by'uru ruganda birimo amazi n'umutobe w'imbuto.

Ndabona ahantu hasa nkaho hatu hacururizwamo ibintu byo kunywa; ari byo amata atunganyije neza, n'andi ari mu icyuma gishoboka cyayakonjesha, bityo bikabasha kuba byafasha abantu bagura amata atarimo umwanda, bakanayanywa cyangwa akonje n'ibindi binyobwa bitandukanye.

Ndabona ibiraha biri ahantu ku iparato, ibiraha bikabasha kuba byakorwa mu ifarini ukabasha no kwifashisha ibirayi bakayita amasambusa.

Ahantu hari udukarito tw'amatara n'amazi ya NILE n'andi y'inyange, n'indobo irimo ibintu twakwita nk'amandazi. Hasi harimo ibirahuri, hasi harimo amatasi ku kabati kandi gafite ikirahure.

Mu Rwanda haba ikigo gishinzwe kuba cyatunganya amata aho usanga bayashize mu bukombe, bucupa no mu materemusi bakayatunganya neza bakabasha kuba bayagurisha.

Ubona umugabo wambaye umupira w'umukara nipantaro y'ubururu asa nkaho ari gusuka amata muri cya cyuma kibasha kuba cyayatunganya kikayakonjesha bitewe nkuntu abakiriya bashaka kenshi ariko bakunda kuyagurakonje.

Kubona umwana n'undi mwana mutoya bari ahantu bari kunywaha amata bafatisha benshi bakunze kwitwara nka keke aho hantu abantu benshi bakunda kubiyita muri dayari.

Agapapuro gasa nkaho kerekana ibintu wishyuye ukuntu byagenze, agapapuro karatangwa kakakwereka ibintu wishyuye n'ibyo wakoresheje bityo bikabasha kuba byatuma udahendwa.

Nko munzu n'abagabo umwe yambaye ikote ry'ubururu undi wambaye ikote risa nkaho ari iry'ishashi, ari kureba muri fone, undi wambaye ingofero y'umuhondo, uri kureba muri fone yambaye n'amarinete.

Basa nk'aho bari gusoma udutabo, hari telephone, hari imashini, hari ibintu biri mu mashashi, hari indabo ku ruhande rwabo, hari agatebo gakozwe mu bintu bya kinyarwanda.

Ahantu ushobora kuba wajya ukabasha kuba kuvunjisha amfaranga, tuvuge niba uyashaka mu manyarwanda cyangwa unjyanye nk'amadorari ushobora kuba wahagana ukanjyana amadorari bakayakuvunjira mu manyarwanda.

Abantu bisa nk'aho bari kwerekana amafaranga y'amadorari, umwe ari kuyavana mu gakapu ayabikamo ashaka gusa nk'aho ahinduranya n'undi, ibyo bintu rero ni byiza cyane.

Ndi kubona amafaranga bigaragara ko ari amafaranga ashobora kuba yahinduwe amafaranga kandi akoreshwa ahantu henshi hagiye hatandukanye iyo umuntu adafite amafaranga ntago abaho..

Ndabona umuntu usa nkaho afite amafaranga muntoki, ubwo bivuze ko ashobora kuba ari kuyahinduza ngo bayamuhe wenda mu manyarwanda, mu Rwanda dufite ibigo bishinzwe guhinduranya amafaranga gutyo.

Ufite amafaranga mu ntoki ibiceri biri ku ruhande umuntu ntagaragara yambaye impeta ku hantu bigaragaza ko afite umugore umuntu kandi ashobora kuba ari guhinduranya amafaranga mu handi kuko bishoboka ko atanze andi.

Umuntu usa nk'aho afite amafaranga mu ntoki bityo mu Rwanda hari ahantu cyangwa se amazu abasha kuba yategurwamo ibintu byo guhinduranya amafaranga yaba ay'amanyarwanda cyangwa se gushaka amafaranga y'u Rwanda akayamuha igihe ayashakaga.

Amafaranga ariho umugore usa nkaho amweyamo. Ayo mafaranga ni aya TANZANIA, kandi ashobora kuba yahinduranywa bitewe n'ukuntu ubishaka.

Umuntu ufite amafaranga mu ntoki asa nkaho yayahinduranyije bakamuha andi mafaranga y'ikintu ashaka gukora uwo muntuntu kandi yambaye impeta afite na tatu ku mubiri we n'ibikomo.

Umuntu ufite amadolari menshi cyane. Aya madolari arunze ku meza, hanyuma we ari kuyabara. Ku ruhande, hari imashini imufasha guteranya imibare y'ayo ari kubara.

Amafaranga ya Kongo ariyo mirongo itanu, ayo mafaranga ashobora kuba yakwifashishwa cyane cyane hantu igihe ugeze muri Kongo ushobora kuba watanga amafaranga bakayahinduramo amanyekongomani.

Ahantu hari icyapa kiri mu mabara y'umuhondo. Ni ahantu babikuriza amafaranga yoherejwe n'abantu bari mu mahanga. Hirya y'aho hafi imodoka y'ibara ry'umutuku iri muri kaburimbo.

Ahantu basa nkaho baguranira amafaranga ayo ariyo yose ku buryo ushobora kuba wajyana nk'amadorari bakayaguha mu manyarwanda bikabasha kuba byatuma ubaho neza.

Inyubako ifite inkingi, ikaba isize irangi ry'ubururu. Hariho amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru, agaragaza ko hakorerwa imirimo yo kuvunja amafaranga y'amanyamahanga.

cyber walikare exchange ni ahantu ushobora kuba wajya ugiye kubitsa cyangwa se ugahinduranya amafaranga mu buryo ushobora kuba ufite amadorali ukayahinduranya mu manyarwanda

Ndikubonamo ahantu hasa nk'ahateretse imeza iriho ikirahuri, ku ruhande hari intebe zikozwe mu mbaho, zirimo imisego, kandi ibyo bintu bishobora kuba byadufasha, nk'uko dushobora kuba twagura inzu twabishyiramo.

Ahangaha hari imeza ni ahantu kuri bariko aho ushobora kuba wakiyakira cyangwa se ukaharira mu gihe udakeneye kurira muri saro no mu nzu yawe.

Akabati keza gakozwe mu mbaho gakozwe mu ishusho y'umuriro karimo ibindi bibumbano aho ibyo bibumbano birimo indabyo kandi ako kabati abagakora babita ababaji.

Ndabona ibikorwaremezo bijyanye n'iby'ububaji, aho ndi kubona akabati gafite utuntu dutatu aho watereka ibintu n'utuntu tumeze ukuntu n'intebe kuruhande.

Ibikoresho bikozwe mu mbaho, aho birimo akabati na garde lobe n'ibindi. Ku ruhande kandi ibyo bikoresho byarakozwe n'ababaji bize ibintu by'ububaji mu mashuri.

Ndi kubona intebe isa nk'aho ikozwe mu bintu nk'icyuma irimo imisego ku ruhande hari imeza iteretseho ururabyo.

Abantu benshi bikorera, aho ushobora kuba wasangamo abakora utubati, intebe. Ibyo byose bikarushao kuba byafasha abaturage mu kubaho neza. Bibafasha kuba bakakira abashyitsi bavuye mu ntara no hirya no hino ku isi.

Imeza nziza cyane yakozwe numubaji. Umubaji ni umuntu ushobora gukora imitako yifashishije imbaho cyangwa se ibindi biti.

Ndikubona sare nini irimo intebe zisa n'amayekara arahantu mu nzu, icyo ni icyumba cy'inama cyangwa se kiba kiri muri hoteri. Hoteri ni ahantu ushobora kuba wajya ugiye gukoreramo inama cyangwa se uburuhukiro.

Hoteri; hoteri ni ahantu umuntu ashobora kuba yajya agiye nko kuruhuka, avuye nko hanze akarukuhira muri hoteri akabona serivise zaho zose, akabasha no kuba yabona ibintu byose mu buryo bwo kwishyura.

Hoteli ni amazu abantu bashobora kuba baruhukiramo, aribo abakerarugendo, cyangwa se n'umuntu udafite ahantu ashobora kuba yajya akishyura akaba muri hoteli, cyane ko habamo amaserivise n'ubundi yo mu rugo.

Ahantu kuri hoteli heza cyane, hoteli ni amazu ba mukerarugendo bashobora kuba baryamamo mu gihe baje gusura igihugu kimwe ari nacyo u rwanda. Bashobora kuba baruhuka bakabona buri kimwe cyose bifuza ariko bishyuye amafaranga.

Iyi hoteri ni hoteri iri hano usa n'aho ujya mu mugi, iyi hoteri kandi ikabasha kuba yakwakira abantu abaribo bose, cyakoze cyo uba ugomba kuyishyura kugira ngo nayo ikugezeho serivise zinoze.

Ni hotel, ni hotel nziza iri mu gihugu cy'u rwanda mu mujyi wa kigali. Hariya mu mujyi wa kigali neza wegereye usa naho ujya i nyamirambo. Iyi hotel yabasha kwifashishwa n' abakerarugendo cyangwa se abandi bantu bakeneye kuba bayisohokeramo

Poweti ni hoteli iri hano mu mugi, usa nkaho wenda kugera Inyamirambo, ni ahantu ushobora kuba wakakirira abantu bavuye hanze cyangwa se abanyagihugu wenda badashaka kurara nk'iwabo kandi muri hoteli batanga serivise zose.

Aha haba inzu z'ubucuruzi nyinshi zigiye zitandukanye aho ushobora kuba wajya ugakodesha inzu ukabasha kuba wakoreramo ubucuruzi bwawe, wishyura amafaranga ku kwezi kuko haraho usanga bamwe bacuruza ibintu bigiye bitandukanye niby'iwabo.

Abantu basa nkaho bicaye ahantu mu cyumba, bigaragara nkaho hari abaje bakiriwe bari kuganira ku bintu bijyanye n'ubwishingizi, aho hantu ushobora wagana ahantu bakorera,

Ikigo gishinzwe ibijyanye n'ubwishingizi muri leta zunze ubumwe za Amerika, ahantu hari imodoka aho ushobora kuba wabagana bakagufasha kubijyanye n'ubwishingizi bw'imodoka cyangwa ibindi bintu.

Ndi kubona ahantu handitse kuzo rimitedi, ubwo ngubwo ni kampani ishobora kuba yatanga ubwishingizi ku bintu, ku bintu byawe aho ushobora kuba wabagana ukajya mu bwishingizi.

Umuntu usa n'aho arimo gusohoka n'undi uhagaze ahantu bakira abantu babagana, aha hantu kandi bashobora kuba batanga serivise zigiye zitandukanye zifasha abaturage.

Kampani ofisi ni ahantu abantu bakorera mu gihe iyo ubashatse ariho ubagana bakabasha kuba bagufasha mu bintu bijyanye n'ubwishingizi.

Ikigo gishinzwe ibintu bya asiranse na forekisi biro, aho ushobora kuba wabagana bakakuvunjira amafaranga, yaba ari mu madorari, yaba ari mu yandi mafaranga ari mu bindi bihugu, nyine barakuvunjira neza.

Ibigo bishinzwe ubwishingizi, ahantu hicaye umugore yakira nk'abantu kuri resebusiyo, kandi ibyo bigo bishinzwe kuba byatanga ubwishingizi ku baturage.

Insurance company ni inzu zishinzwe ubwishingizi, aho ushobora kuhajyaho ukabitsa cyangwa se ukishinganisha mu bikorwa byawe mu gihe ugize ikibazo bakaba babishinganisha.

Ibigo by'ibihugu bishinzwe kuba byatanga ubwishingizi bujyanye n'amapasiporo adufasha kuba twajya hanze tukabasha kuba twakorerayo ibikorwa byacu, cyangwa tugiye nko kubayo.

Umuryango hari banki popirere y'urwanda ushaka wagenda ukabitsa cyangwa ukabikuza, ukanishyurira amafaranga y'ishuri abana, kuruhande hari inyange indasitiri ushobora kuhagana ukagura amata meza atunganijwe haba hakonje yaba hashyushye

Ahantu hari kuri reception hari intebe ziticayeho abantu n'akabati k'umweru hirya handitseho rabiant hirya hari umugabo wambaye akajiire ari mu birahure.

Abagore bari ahantu imbere hateretseho imitako ikozwe mu bintu bya Kinyarwanda, aho ushobora kuba wasanga harimo bamwe bayigurisha bikabasha kugenda neza bakabona amafaranga.

Ndi kubonamo inzu iri ahantu mucmba kandi hari ikintu cya kirisimasi cyangwa se perinoweri kandi imbere hari intebe z'abantu bicaraho mu gihe baje aho hantu.

Ndabona umugore usa nkaho yishimye, yishimiye ibintu ijyanye n'uko yabasha kubona inguzanyo cyangwa akabitsa ibyo bintu bikabasha kuba byamufasha mu kunguka.

Ndabonamo ibikorwaremezo, usangamo hari umuhanda uteyemo ibiti gutya ari umuhanda ushobora kuba wakoreshwa mu ngendo z'abaturage kandi bikifashishwa cyane mu gukora imirimo yacu.

Harimo ibigaragara nkaho amasomo abantu biga bakabasha kuba bamenyabumenyi ku bijyanye n'ibyo bari kwiga bikaba byabafasha mu kubona akazi bijyanwe n'uko wize wizi neza ukoresheje ibyo bitabo.

Mu Rwanda hari ikigo cy'igihugu kibasha kuba cyatanga ubwishingizi bwuzuye bw'imodoka, ushobora kuba wagenda ukiyandikisha muri iki gihugu, bakaku, bakabasha kuba bakwita ku modoka yawe mu gihe igize ikibazo cyangwa se mu gihe wenda uyisize bakaba bayikurindira.

Ndi kubona isoko ririmo abantu basa nk'aho bari gucuruza, abandi bari guhaha, ni isoko riri ahantu mu nzi y'umuhanda rishobora kuba ryafasha abaturage mu kubona ibyo bifuza, bityo bikabona, bikabasha kuba byabatunga mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Umugore ahantu mu isoko. Mu isoko ni ahantu ushobora kuba wagenda ukagurira imbuto n'ibindi birimo inyanya cyangwa se imyumbati.

Aha ni kwisoko hari abantu benshi bambaye imyenda igiye itandukanye bisa nkaho bari mw'imurikagurishwa moto ziraparitse kuruhande bose barikumva ukuntu ibintu bimeze.

Mu isoko ni ahantu ushobora kuba wajya ukabasha kuba wagura, ukanagurisha ibintu byawe ushaka kuba wagurisha kandi biranafasha, kuko bifasha abaje kubigura bose.

Ndabonamo ibiribwa hari n'umukecuru uri kubigurisha, ushaka amafaranga kandi abicururiza ahantu mu isoko. Umuntu wabishaka yajya mu isoko akabibona ku mafaranga macye, cyane cyane ko ari imbuto.

Ndabona abantu basa nkaho bari ku isoko ahantu ushobora ku wajya ushaka ibintu byo guteka cyangwa se byoku kurya, harimo imyumbati, ibijumba n'ibindi.

Basasa nk'aho bagenda gendanamo ,basa nk'aho bari mu iduka ricuruza imyenda, inkweto aho harimo abaguzi n'abagurisha b'ibyo bintu mvuze, iryo ni isoko ushobora kuba wajya ahantu hose ukabona harimo imyenda n'ibindi bikoresho.

Ndabonamo isoko rigurisha, rikakira n'abaguzi aho ushobora kuba wajya mu isoko ugiye gushakiramo ibiribwa cyangwa ibindi bintu byose wakenera.

Umugabo uhagaze wambaye umupira w'umukara asa nkaho ari kureba ku bintu by'amafaranga agakoresha n'abandi bakamwereka ibindi bintu ku bijyanye n'amafaranga.

Iki ni ikigo gukorera mu Rwanda kijyanye no kubitsa kikabihuza amafaranga ubikije kuri fone cyangwa se kuba wakoresha kode mu gihe uri kwishyura ntibagukate amafaranga na make.

Abajeti bari ahantu ku muhanda bashinzwe gutanga amayinite , aho ushobora kuba wabasha guhamagara mugenzi wawe kuri terefone uguze amayinite, ushobora kuba wabikuza amafaranga, ukabitsa ugannye abo bantu baba bari ku muhanda bambaye utujire tw'umuhondo.

Akazu ka mobayiro mani (mobile money) ni ahantu abantu benshi bakunze guca bakagura amayinite yo kuza guhamagara bagenzi babo batari kumwe cyangwa se ukabasha kuba wabitsa amafaranga begereye umuntu uba uri muri ako kazi cyangwa ukabikuza.

Umugore uri ahantu hari ibikontineri, intebe, ibikombe n'umugabo wambaye ishati y'amaboko magufi bari ahantu hari amasafuriya, amajerekani, ibiyiko, amasafuriya.

Umuntu usa nkaho ahagaze ari kwishyura amafaranga y'ibintu bamugejejeho ariyo onurayini shopingi. Onurayini shopingi ni urubuga ushobora kuba wajyaho ukaguriraho ibintu ibyo aribyo byose urugero nk'ibiryo.

Shoping ni ahantu ushobora kuba wajya ugiye kugurira ibintu ku rubuga cyangwa se ukaba wabasha kubibona unyuze ku rubuga aho ushobora kuba wakwandika kuri terefone yawe igendanwa ukandikamo urubuga online shoping ukahita uzibona ukabasha kuba wagura ukanagurisha.

Ndi kubona umugore usa nk'aho yishimiye, kubera kugurira kuri onurayini shopingi iyo apurikasiyo iba muri telefone zigendanwa, ushabora kubawayijyaho ukabasha kuba watumiza ibyo kurya.

Urubuga ushobora kuba wajyaho kuri fone yawe ukarushaka ukabasha kuba wagura cyangwa ukagurisha, bitewe n'ibyo ushaka kuba wagura ukabigura kandi udahenzwe.

Aho batanga amaserivise agiye atandukanye, aho ushobora gutuma ibiryo bikabasha kuba byakugeraho mu buryo bwihuse, wakoze waguze bakakujyanira ibiryo kuri taransiporo utishyuye, kandi birafasha bikagufasha kuba utateka.

Kubona moto, moto ishobora kuba yatwara ibiryo cyangwa se ibindi bintu byose vuba vuba ni apulikasiyo ushaka kuba washyira muri phone yawe ukabasha kuba watumaho ibintu ibyo ari byo byose ushaka.

Harimo uburiri buri ahantu mu cyumba ku gitanda bushasheho neza, bushobora kuba bwakodeshwa ukabasha kuba wakishyura kugira ngo uryame.

Ndabona inzu nziza iherereye Kicukiro, Kagarama muri Kigali, aho iyo nzu irimo tuwalete y'kirahure na lavabo, aho iyo nzu ikodeshwa igihumbi nijana cy'amadorari buri kwezi.

Kubona inzu nini cyane ishobora kuba yatangirwamo serivise cyangwa se ushobora kuba waturishamo famiye yawe. Iyo nzu isize ibara twakwita nkaho ari oranje, iyo nzu kandi ikaba igeretse, iyo nzu ifite n'ibirahuri.

Harimo umugabo usa nk'aho ari kuranga inzu igurishwa, iri ahantu heza ifite ibirahure iteye irange ry'umweru irimo amatara, uwo mugabo yambaye ikote n'ipantaro n'inkweto n'amarinete.

Inzu iri ahantu i Kanombe ifite ahantu haparika imodoka ari eshatu ikabgura miliyoni mirongo icyenda n'eshanu mu mujyi wa Kigali mu Rwanda kandi iyo nzu isize n'irangi rijya gusa umweru.

Inzu iri ahantu isa nkaho ikodeshwa amafaranga cyangwa ushobora kuba wagura amafaranga miriyoni ijana na mirongo ine z'amanyarwanda. Iyo nzu ifite amatara hanze n'ibirahure n'inzugi.

Ndabona inzu irimo intebe n'imeza na televiziyo, iri ahantu Kigali ishobora kuba ikodeshwa ibihumbi magana inane buri kwezi wabasha kuba wayibona i Kibagabaga.

Ndabona inzu isa nkaho iri ahantu kibagabaga ishobora kuba yagurishwa cyangwa se ukaba wayikodesha buri kwezi ibyo byabasha kuba byafasha abaturage kuba babona aho baba.

Ndabona umugabo asa nk'aho akurikiye inyuma umugore ,umugabo kandi n'umuzungu ufite ubwanwa, yambaye ipantaro ijya gusa ubururu bw'ijimye n'ishati isa m'ubururu bwerurutse .umugore yambaye ikanzu bari ahantu mu nzu.

Icyumba kirimo amarido, amashuka n'ikiringiti gishobora kuba gikodeshwa amadorari maganatanu mirongo itanu buri kwezi mu mujyi wa Kigali mu Rwanda.

Ndabonamo ahantu hari inzu isa nkaho igurishwa mu mujyi wa Kigali mu Rwanda aho igura miliyoni ijana na mirongo ine. Kandi inzu irimo amakaro.

Aha ni Ahantu ushobora kuba wabagana ukishyura inzu cyangwa ugakodesha, bitewe nicyo ushaka ku kwezi ukaba wakishyira amadorari ibihumbi bitatu cyangwa ukabishyura bitewe n'ukuntu washimye inzu, ukabasha kuba wayigura cyangwa ugakodesha.

Inzu irimo intebe, imeza na televiziyo ,akantu ko guterekwaho ibintu bijyamo indabyo, inzu iherereye kimironko ikaba ikodeshwa magana atatu.

I Kigali ushobora kuba wahasanga amazu akodeshwa n'agurishwa aba arimo ibyumba wenda nka bitatu, bibiri, harimo ubwiherero, amazi, igikoni aho ushobora kuba wakwishyura ibihumbi maganatatu ku kwezi kandi bikagufasha kuba wakora akazi kawe neza ni i Kanombe.

Ndi kubona inzu iri ahantu isa n'aho ikikijwe na senyenge, inzu iherereye i Kigali i Kanombe, aho ikodeshwa ifite ibyumba bine, n'ubwogero butatu.

Inzu nziza cyane iri ahantu isa nkaho iri kugurishwa mu mujyi wa kigali mu Rwanda aho ifite ibirahure ikaba isize irangi rijya gusa umweru.

Inzu nziza iri ahantu yubatswe mu buryo bwa konoshi ikaba ifite ibirahure bya fime n'amadirishya n'urugi, ikaba ikodeshwa ifite ibyumba bibiri n'ubwogero ikodeshwa ibihumbi maganabiri mirongo itanu buri kwezi.

Inzu ifite eskariye, iyo eskariye iri ku kintu cy'icyuma ikaba iherereye i kigali mu rwanda ikava wakodesha ibihumbi bibiri by'amadorari uwashaka wahamagara kuri nimero zeru, Karindwi, Umunani, Mirongo itandatu, Cumi na gatandatu, Mirongo irindwi n'umunani, Icyenda.

Ndikubona inzu iri ahantu i Kigali Kanombe igurishwa miliyoni mirongo inani n'eshanu ikabi ifite ubuso bwa maganatatu mirongo ine, ni inzu ikozwe mu bwoko bwa konoshi ukabona nanone ikozwe mu buryo bwa kadesitari.

Inzu iri ahantu isa nk'aho ikodeshwa ibihumbi magana abiri buri kwezi, Kandi iyo nzu ikaba igoswe igipangu kirekireye.

Inzu bisa nk'aho bari kwamamaza ifite ibyumba bitatu n'ubwogero bubiri iri Kimironko, ituranye n'ahantu Kimironko ibiciro bikaba ari ibihumbi maganabiri mirongo itanu.

Inzu isa nkaho iri kwamamazwa kubwo kugurishwa, iherereye i Kigali i Remera ifite icyumba kimwe n'ubwogero bumwe, iyo nzu ikaba ifite ibirahure dukunze kwita ibya fime n'urugi zimwe zigezweho.

Ndikubona inzu nziza cyane ifite imbuga nziza kandi iyi nzu ikaba igurishwa iherereye i Kigali, ifite ibyumba bine n'ubwogero butatu, uwayishaka ushobora kuba wabahamagara.

Umugabo usa nkaho ari ahantu ari kwamamaza inzu, kandi iyo nzu wabasha kuba wayibona ahantu hariho hose cyangwa se ukajya ku mbuga nkoranyambaga ukabasha kuba wabona uwo muntu ugakodesha niyo nzu cyangwa se ukayigura.

Inzu nini cyane yo mu bwoko bw'izo bakunze kwita 'uducurama'. Iyi nzu ifite igipangu gifite urugi rw'icyatsi. Mu mbuga y'iyo nzu hahagaze umugabo ugaragara nk'umusirimu. Birasa nk'aho iyi nzu ari iye.

Kubona mugabosa nkaho ari kubaka ahantu mu nzu ari kumwe n'abamufasha kubaka bose bityo bikaba byafasha kuba byatuma inzu yuzura vuba bitewe n'ukuntu bayubatse.

Umuhanda harimo imodoka ndetse n'abagenzi bari gukoresha inzira yagenewe abanyamaguru. Inyubako zubatse mu buryo butandukanye, hari ibyuma biriho insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi.

Ubona abantu basa nk'a bari mu nzu y'ubucuruzi aho ushobora kwajya muri iyo nzu ukabasha kugura bimwe mu byo ukeneye ahubwo ushaka kwagura imyenda cyangwa se ibindi bintu birimo ibyo kurya n'ibyo kunywa.

Umugore asa nkaho ari ahantu mu iduka ricuruza imbuto aho izo mbuto hari inyanya ibitunguru n'ibindi bintu birimo intoki n'amakokombure byakoreshwa mu guteka amasosi.

Inzu y'ubucuruzi aho ushobora kuba wajya muri iyi nzu y'ubucuruzi ukabasha kuba wagura utahenzwe cyangwa se ugahendwa bitewe n'ukuntu aho hantu hameze cyangwa se ibicuruzwa bimeze, ukabasha kuba wajyana ikintu kiza mu gihe warebye neza.

Ahantu mu nzu hari abantu bari kugenda n'abandi bicaye basa nk'abari mu nama, hejuru hari urusaha n'icyapa gisa nkaho kiri kwamamaza ibintu. N'abandi bicaye ku rurhande basa nkaho bari kuganira.

Ahantu mu mazu y'i Kigali aho amazu y'ubucuruzi ushobora kuba wajyamo ugiye kugura utuntu wakenera ariho ushobora kuhaguramo ibyo kurya, ibyo kunywa n'ibindi bintu.

Inzu y'ubucuruzi aho ushobora kuba wajyamo ugasangamo ibintu bigiye bitandukanye, ushobora kuba wajyamo ugasangamo nk'ibikoresho by'abana cyangwa se amabombo n'imigati n'amashokora n'ibindi bintu by'umwana.

Ndabona abantu bari ahantu mu nzu y'ubucururizo, aho ushobora kuba wasanga hari abantu benshi bari kugura ibintu batanga amafaranga bityo bikabasha kuba byatuma babona ibintu byiza n'abo baguriye bakunguka.

Urabona inzu y' ubucuruzi, aho iyo nzu irimo ibintu twakwifashisha mu buzima bwacu bwa buri munsi, dushobora kuba twarya, cyangwa se tugakoresha, kugira ngo ubuzima bukomeze. Aho ndikubonamo amaji yo mu mbuto n' amafanta akorwa n' inganda.

Ndi kubona umugore usa nkaho ari ahantu mu nzu y'ubucuruzi ari gucuruza imitako yo mu nzu, yaba iyo mu nzu, mu byumba. Iyo mitako yakwifashishwa akayicuruza kandi akabona amafaranga.

Inzu y'ubucuruzi aho ushobora kuba wajyayo ugiye nko kugura ibintu nk'intebe, amameza bikozwe neza bitunganyije ariho babicururiza.

Ahantu mu nzu y’ubucuruzi hashobora gucururizwamo ibyo kunywa n’ibyo kurya bitandukanye. Harimo abagabo bari kubitanga, abenshi bakunze kwitwa abaseriveri.

Ndi kubonamo inzu y'ubucuruzi, aho abaturage binjira bagiye gushaka ibintu byabafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi, aho usanga bari guteza imbere ababigurisha.

Uyu ni umugore n'umugabo basa nkabari kuganira bicaye ahantu bameze nkaho bari kuganira ku bijyanye n'akazi, akazi kakaba kitwa ara esi esi bi gakora ku bijyanye no kurinda umutekano w'abaturage.

Ubwishingizi bwinshi, aho ushoboira kuba wasanga hari ubujyanye na mituweri dosante, bishobora kuba bakwitaho ku bijyanye n'ubuzima bakuyeho amafaranga menshi kuyo wari kuzishyura mu gihe udafite iyo karita cyangwa se iyo karita itangwa n'ubwo bwinshingizi.

Ndabonamo ikigo cy'ubwiteganyirize mu Rwanda, kibasha kuba cyashinga ubwisungane mu kwivuza, kibasha kuba cyafasha abaturage mu kwivuza bakuriweho amafaranga agenwe kuyo bari kwishyura.

Abagabo babiri bafite icyapa cy'ubururu cyanditseho kompanyi ya KTN Rwanda. Kuri iki cyapa hariho ko bishyuriye abatishoboye ubwisungane mu kwivuza. Inyuma y'aba bagabo bafite icyapa hahagaze abagore benshi bigaragara ko batishoboye; mbese ko ari bo bishyuriwe ubwisungane mu kwivuza.

Sekiriti savisi ni ikigo k'igihugu gishinzwe ibintu by'umutekano wa nyirarubanda nyamwinshi nge ndi kubona umugore uru gutanga impapuro ku bantu.

Umugabo wambaye agapfukamunwa, afite icyapa cyanditseho ko uwitwa Ruzindana Fabien yatsindiye miliyoni n'ibihumbi 250 Frw. Bisa nk'aho yayahawe na sosiyete y'ubwishingizi akorana na yo, wenda nk'igihembo cy'uko yitabira neza gahunda zabo.

Umukobwa uri kugura imbuto, azishyira mu gakapu, ahantu mu iduka, bisa naho Ari buze kuza kuzirya akiyitaho.

Ndabona inzu y'ubucuruzi irimo ibikoresho bigiye bitandukanye, ari byo mayonezi, amaji, n'amabiswi. Kandi ikaba ibamo n'ibindi bintu byinshi bitandukanye..

Ndabona ahantu mu iduka, ricuruza imbuto, aho ushobora kuba wagenda ukagurira muri iryo duka imbuto zishobora kugufasha mukwita k'umubiri wawe.

Ni ahantu ushobora kuba wajya ugiye kugurira ibiribwa ari byo birimo voka, inyanya, ibitunguru n'ibindi birimo imbuto zishobora kuba zaribwa zikagufasha mu kuba wakomeza umubiri wawe.

Harimo amaji n'ibindi byo kunywa, aho hantu tuhita mu nzu y'ubucuruzi bw'ibintu byo kurya cyangwa se ibindi bintu wakenera mu ngo cyangwa ahandi hantu.

Umugabo ari muri butike asa n'aho ari kugura ibintu ashyira mu gikapu n'amata ku ruhande n'amaji, ibyo byose bikaba byafasha abantu kubaho neza mu gihe bari bikora ibintu byabo bya buri munsi.

Superi marishe; ni ahantu cyangwa se n'iduka ushobora kuba wajyamo ugiye kuguriramo ibintu bigiye bitandukanye, aho ushobora kuguriramo; ibiribwa, ibintu byo kunywa, n'ibindi.

Ndabona umugore asa nk'aho afite akantu ari kugenda ashyiramo binaguze mu iduka ricuruza ibintuo bijyanye n'ibyo kunywa, ibyokurya n'ibindi bintu byakwifashishwa ahantu mu ngo.

Ndi kubona iduka rinini risa nkaho ririmo ibyo kurya ibyo kunywa byose bikabasha kuba byakwifashishwa mu ngo cyangwa se ahandi byakenerwa.

Umukobwa wambaye amarinete asa nkaho ari kurunda ibinyobwa, yambaye amarinete yaguze n'inanasi bityo bimufasha kubaho ubuzima bwe.